Abana b'abanyeshuri bazengutse abarimu babo, barimo kugenda bakoma mu mashyi ndetse n'abarimu barimo kugenda babazenguruka babatera morali kugira ngo babashimishe.

Abanyeshuri barimo kugenda bakina imikino, biganjemo abiga mu mashuri abanza n'ay'incuke. Barimo kugenda bahoberana umwe kuri umwe mu matsinda ndetse abarimu na bo barimo kugenda baca hagati.

Abagore babiri barimo kugenda bigisha abana bari mu irerero, abana barimo kugenda babatoza ibyo biga barimo kubereka urukwavu ndetse banashyiraho n'izina, hariho aho bicaye kandi bafite n'udukombe barimo kunyweramo.

Inyubako isize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo, bigaragara ko ari ibiro by'abayobozi bakoresha mu gihe bari gukora akazi kabo.

Abana b'abanyeshuri bakaba bagiye basutamye kugira ngo babashe kuganira ndetse no kuba bakora ibyo abarimu babo bagiye babategeka gukora, babikoreye hamwe.

Abana biga mu mashuri abanza, biragaragara ko barimo gusoma ibitabo bahawe n'umwarimu wabo kugira ngo abigishe ubumenyi, babashe kumenya ubwenge kandi bazavemo abayobozi beza.

Umugore urimo kugenda atanga ubumenyi cyane cyane ku bana, bari mu irerero bakaba bicaye ku mukeka nawe akaba afite agakoni, arimo kugenda abasomera ibyo yagiye yandika, nabo, bagenda babisubiramo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bakunze gukina mu gihe cy'amasaha yo kuruhuka, ugasanga bagubwa neza ndetse n'amasomo yabo bakayiga mu buryo buboroheye bitabagoye.

Ahantu hari udukoresho tugiye dutandukanye hakaba hariho n'isaha za zindi zigezweho z'urushinge, hakaba hariho kandi n'amarati yifashishwa mu gushushanya cyane cyane aya mpande eshatu.

Ibitabo by'imfashanyigisho, byiganjemo iby'imibare by'umwaka wa gatatu w'amashuri abanza, akaba biri kugera kuri bine byifashishwa kugira ngo abana babisome bakuremo ubwenge.

Akamodoka karimo guca ahantu hari icyapa ndetse kiragaragaza ikigo cy'amashuri, hakaba hariho ibiti bibiri by'amagereveriya ndetse kandi imodoka ahantu iri hari akazu gatoya.

Akayira kakaba karimo ibipapuro n'ibindi bintu by'amasashi bagiye bajugunya biririmo umwanda, ibi ngibi bigaragaza ko aha ngaha nta suku ihari haba hakenewe ingarani ishobora kujyamo imyanda.

Abana b'abanyeshuri barimo kugenda biga ibijyanye n'ibikoranabuhanga, bifashishije za mudasobwa ntoya abana bakoresha cyane cyane abiga mu mashuri abanza mu gihe baba bataramenyera mudasobwa ni.

Ahantu mu kigo cy'amashuri, hakaba hariho icyuma bakubitaho kugira ngo babe babasha gusona kugira ngo bagende bamenya serivisi zikurikiyeho, niba isaha irangiye ari igihe cyo kuruhuka cyangwa igihe cyo gutaha.

Icyumba kirimo ibikoresho ubona ko harimo ameza n'ibitambaro, ni icyumba giteye irange ry'umuhondo n'umweru ubona ko harimo parafo ndetse akaba ari heza.

Ikigo cy'amashuri cyo mu rwunge rwa Nyarutovu, hakaba hariho umwarimu ndetse n'umunyeshuri umwe. Kikaba ari ikigo gikikijwe n'ibiti by'ibicupuri ndetse kandi hakaba harimo n'ibya penusi hakaba hariho n'ubusitani.

Icyumba kirimo intebe ndetse hakaba hariho n'ikibaho, aho umwarimu yandikira ndetse kandi hakaba nta banyeshuri barimo bakaba batashye bagiye mu ngo zabo.

Ahantu hahariwe ubwiherero, hakaba hari inzugi zifunguye, aho umuntu winjira agahita afunga, uwikinze inyuma akabanza agakomanga kugira ngo amenye neza niba nta bantu barimo.

Abana bicayeye mu matsinda bakaba barimo kugenda bafashanya mu masomo yabo, kugira ngo abadafite ubwenge cyangwa se abatumvise ibyo bigishije, kugira ngo nabo babashe kuba babifata babifashijwemo na bagenzi babo.

Impapuro zanditseho inyuguti zigiye zitandukanye ziganjemo ibihekane, byigwa cyane cyane mu mwaka wa kabiri, hakaba hariho aho abanyeshuri bifashisha mu gihe barimo kwiga ibihekane babisoma.

Abana batonze umurongo w'igice, bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo, akaba arimo kugenda abasobanurira ku ngingo zigiye zitandukanye, abenshi muri bo bafite amakayi barimo kugenda basoma n'ibitabo na byo bafite.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ukunze gusanga biga ku bigo byiza bishushanyijeho ibishushanyo byiza, bigaragara ko baba bari kubigisha neza.

Abana bari ku ruziga bakaba barimo kugenda basimbuka ari nako bazenguruka, bamwe hagati yabo hakaba harimo umugore urimo kugenda abatuza asimbuka nabo basimbuka, aha ngaha baracyari batoya bari mu irerera.

Ahantu hari ibice bigiye bitandukanye, byiganjemo ibigize mudasobwa ndetse hakaba zirimo n'amoko, hakaba ari imwe yayindi ifite uduhembe cyangwa se anteni, ikaba ifite n'aho umuntu ashobora gukora ndetse kandi hari n'izindi.

Ku idirishya hakaba hariho urutonde ruriho imibare igiye itandukanye, bagiye bomeka ku idirishya kugira ngo babashe kuba basoma ibiriho, hakaba kandi hariho n'ibyuma bigiye bitandukanye by'imyeru.

Abana bakaba basoje kurya barimo kugenda bahanahana ibisahane byifashishwa mu kuba babyaruriraho ibiryo ndetse kandi ni iby'ibyuma barimo kugenda babihanahana.

Abana b'abakobwa n'abahungu bakaba barimo kugenda berekeza ku mashuri, baracyari batoya biga mu mashuri abanza, abarimu babo babiri na bo barahari, barimo kugenda babafasha kwinjira mu mashuri.

Mu kigo hakaba ku rukuta hariho amabwiriza agiye atandukanye cyane cyane ku bintu bibujijwe, akaba ari ku rukuta ruriho amatafari ahiye bagiye bakotera sima hagati.

Icyumba cy'amashuri kikaba kirimo intebe nkeya, ni mu mashuri abanza, hakaba harimo n'ijerekani bifashisha mu gihe bari mu masuku kugira ngo babashe kuba ahantu hakeye.

Abanyeshuri barimo gukorera mu matsinda umwe muri bo akaba barimo kugenda yandika ibyo barimo gusobanurirana, hakaba harimo abakobwa bagera kuri barindwi nabo barimo kugenda bitegereza ibyo bari kwiga mu gitabo.

Mu kigo hakaba hicaye abanyeshuri bari hanze, muri cya gihe abana baba bagiye gukina cyangwa se baba babonye akaruhuko, bakaba barimo kugenda bamwe bakina abandi biyicariye, bakaba barimo kugenda bota akazuba.

Abana biga mu mashuri abanza, bahagaze inyuma y'inyubako, bari kwandika ibyo mwarimu, ababwira kugira ngo babashe kumenya ubwenge kandi bazabugirire n'akamaro igihugu.

Ikigo cy'amashuri kikaba gifite inzugi zashaje ndetse n'imbere yacyo harashaje, kikaba gifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umuhondo, byamaze guhinduka umweru.

Mu kigo hakaba hariho umugabo ufashe inkoni, akaba afite n'igitabo, uyu nguyu akaba ameze nka Musa uvugwa muri Bibiliya akaba afite amategeko y'Imana.

Abana bakoze uruziga kimwe cya kabiri bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo, abenshi muri bo bakaba bambaye kaki ndetse abandi bakaba bambaye imyenda y'ishuri yo mu mashuri abanza.

Aba ni abanyeshuri bahagaze ku marembo, bakaba bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'ubururu bw'ikirere ndetse kandi bakaba bambaye amajipo ya kaki, bakaba bari gushaka kwinjira.

Abanyeshuri barimo kugana mu bice bigiye bitandukanye, umwe yikoreye ibase irimo ibiryo, uwo ni umuhungu, inyuma ye hariho abakobwa babiri, umwe mukuru n'undi ukiri mutoya uhetse agakapu.

Ikigo cy'amashuri kikaba gifite inzugi z'icyatsi, ndetse kandi hakaba hariho uturongo tw'imihondo tugiye tuzengurutse ku bikuta. Ikaba hariho urubaraza rurerure, rutuma imvura itagera aha ngaha.

Mu kigo cy'amashuri, hakaba harimo utwana dukiri dutoya twiga mu mashuri abanza, bakaba barimo gukina aha ngaha bari, ikigo gifite inzugi z'icyatsi ndetse kandi zubakishije amatafari.

Urukuta rwo mu kigo cy'amashuri, hakaba hariho ubusitani ndetse kandi rushushanyijeho abana bagera kuri batatu, hakaba hariho n'ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Mu kigo cy'amashuri hakaba hashushanyijeho abana n'umwarimu wabo urimo kubigisha icyongereza. Hino kandi hakaba hariho ubusitani burimo umucaca, urukuta rukaba rusize irangi ry'umuhondo ndetse hejuru hakaba hagaragara irangi ry'ubururu.

Abana bicaye ku ruziga, bakaba bafite n'ibitabo barimo gusoma. Aba ngabo ni ba babandi baba biga mu mashuri y'incuke, baba barimo kugenda batozwa gusoma ndetse banitoza no kwandika inyuguti.

Inyuguti abana biga cyane cyane abari mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri, akaba ari inyuguti guhera kuri B kugeza kuri W, zose zikaba zigwa n'abana biga mu mashuri abanza mu gihe barimo gutangira.

Ikibuga aho bakinira umukino wa basikete, aho hariho amazamu abiri bagenda batereramo umupira, aha ngaha hakaba hariho naho abantu barimo kureba umupira baba bicaye.

Umunyeshuri akaba afite agatapu ahetse mu mugongo, akaba yiga mu mashuri abanza. Hakurya hakaba hariho bagenzi be bari kumwe n'umwarimu, bakaba barimo kugenda batora inkwi, bazijyana mu bice bigiye bitandukanye, aho boherejwe.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iriho abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'ahantu bari harasa neza.

Ahantu hari kiliziya ikaba ikikijwe n'ubusitani burimo umucaca. Hakaba hegereye umuhanda w'igitaka, harimo kugenda hanyura umunyeshuri uvuye kwiga, hakaba hafi ya kiliziya hariho abanyeshuri.

Abana bari hafi y'ikigo, bakaba bicaye barimo kugenda bakusanya imyanda, ahantu bari hakaba hari senyenge ndetse kandi hakaba batagomba kwinjira uko biboneye muri iki kigo.

Umugabo uhagaze hagati mu isomero hakaba harimo, ibitabo aho ushobora kuba wajyamo ukiyungura ubumenyi, cyane cyane mu gihe ufite amatsiko yo kuba wamenya ibishya.

Abanyeshuri bari inyuma y'ikigega imbere yabo hakaba hariho umwarimu, ndetse kandi ahantu bari ari ubusitani bwa za ndabo bagenda bakata kugira ngo zikore akantu kameze nk'uruzitiro.

Itsinda ry'abanyeshuri barimo kuganirizwa, abenshi muri bo bakaba bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara. Hakurya hakaba hariho abarimu bakaba bicaye barimo kureba ibikorwa uko birimo kugenda.

Aba ni abanyeshuri bakaba bahagaze barimo kugenda baganira, imbere yabo hariho undi mugabo bahaye ihene, arayifashe ndetse bayimugabiye kugira ngo abashe kuyorora kubera ko atishoboye.

Mu imashuri hakaba harimo ishusho yifashishwa nk'imfashanyigisho, ikaba igaragaza amagufa ari mu mubiri w'umuntu, ikaba igaragaza amagufa yo ku maguru, imbavu ndetse n'umutwe.

Ikigo kita ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva, kikaba giherereye i Butare, hakaba hariho naho wabasanga ndetse n'aderesi zibaranga ndetse aho binjirira hakaba hariho ibyo bakora byose.

Ikigo cy'amashuri abanza, kirimo abanyeshuri benshi barimo gukina umupira, bigaragara ko bari mu isaha yo kuruhuka.

Imodoka irimo kugenda ahantu mu muhanda, ikaba ifunguye ku ruhande rumwe, ikaba iri kunyura mu muhanda uteyemo utubuye, hakurya hakaba ariho abana barimo kugana ku mashuri.

Inzu ubona ko ari ikigo cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye kandi gisakaje amabati y'ubururu. Inyubako mu bigaragara urabona ko igeretse inshuro ebyiri.

Abana biga mu mashuri abanza, usanga bakunda kuvuga ko bahura n'imbogamizi zo kutiga ngo babashe gutsinda kubera ko abarimu babo batabaha ubumenyi bw'ibanze.

Icyumba abanyeshuri bigiramo kirimo ikibaho cy'umukara, cyandikishijeho ingwa y'umweru ubona ko ari icyumba cyiza gitangirwamo amasomo.

Abanyeshuri barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye bafite abenshi muri bo ibikapu, bakaba barimo kwerekeza ku mashuri yabo, bakaba biganjemo abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye amajipo ya kake.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari inyubako nziza, hirya hari ishyamba rihari, rikikije iyo nyubako kandi riyirinda inkubi y'umuyaga.

Ikigo kikaba kiriho uruzitiro rw'ibyuma ku buryo umuntu uwo ari we wese atapfa guhita yinjiramo, kikaba gikikijwe n'ibiti bifite indabo z'umuhondo, akaba kandi ari kuri kaburimbo ku muhanda.

Mu kigo hakaba harimo udutebe abantu bashobora kwicaramo, mu gihe barimo kwiga, cyangwa se mu gihe barimo kuruhuka, hakaba hariho n'ubusitani bugiye butandukanye, hakaba harimo n'igiti cy'umwembe.

Abana bari mu ishuri bakaba bambaye imipira y'imbeho, ya yindi iba ikozwe mu budodo, imbere hakaba hari umwarimu urimo kugenda abyigisha, afite n'igitabo mu ntoki, imbere kandi hari ikibaho bandikiraho.

Abanyeshuri bakowaniye hamwe, hakaba harimo n'umwe ufite ubumuga ndetse bakaba barimo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, babikoreye mu matsinda kandi bakaba barimo kugenda bafatanya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye bigaragara ko ari inyubako nziza, itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi ndetse n'izindi zijyanye no kwigisha abanyeshuri.

Icyumba kirimo amoko agiye atandukanye y'ibitabo, aho umuntu ashobora kuza akaba yatira igitabo cyo gusoma, cyangwa se akaba yanasomera aha ngaha, bitamusabye kuba yakishyura kuko ibi byumba biboneka mu bigo by'amashuri.

Ishuri ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, abanyeshuri barimo kwiga kubyina imbyino gakondo kugira ngo babashe kwitabira ibirori bitandukanye.

Inzu zigera kuri ebyiri zikaba zifatanye, zikaba zisakajwe n'amabati atukura ndetse hagati hakaba harimo umucaca ndetse kandi hakaba hariho indabo za zindi abantu bajya bakata zikaba zakora uruzitiro.

Abanyeshuri barimo kugenda bakora umuganda, barimo kugenda bacukura, kugira ngo aho bari hagire isuku, hakurya kandi hariho insina ziteye, ndetse kandi hafi yaho hariho n'ingarane, aho bashobora kumena imyanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba barimo kwiga ikoranabuhanga, aho buri wese aho yicaye afite mudasobwa ye ndetse hakaba hariho n'amazi, bameze nk'abari mu kizamini ndetse kandi buri wese arahuze.

Abanyeshuri bari mu nama bakaba bicaye bose hasi, hakurya hakaba hariho ibyapa birimo kugenda bitanga ubutumwa ku byo bari kwigaho, bakaba bateze amatwi umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abanyeshuri bari ku murongo ndetse imbere yabo hariho abakinnyi, bakaba biteguye kuba bakina. Aba kandi abanyeshuri na bo biteguye kuba bareba umukino ugiye kubera hano.

Mu ishuri hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakaba barimo kugenda biga uko bikorwa bakora babishyira mu ngiro ibyo bagiye biga mu magambo, bakaba bahagarikiwe n'umwarimu wabo.

Umugore urimo kugenda yigisha, afite igitabo arimo kureberamo, akaba abanyeshuri na bo bicaye bakaba bamuteze amatwi, barimo kugenda bumva ibyo arimo kugenda abagezaho.

Ikigo cya Elena Guerra, hakaba bigisha mu mashuri y'inshuke, bakaba hari mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, hakaba hariho na nimero ushobora kuba wabashakiraho.

Inzu igeretse kabiri ikaba iringaniye n'ahantu hari ikigega ndetse kandi hakaba hariho n'ubusitani, aho umuntu ashobora kuba yaruhukira mu gihe ageze hano.

Abana barimo kujya ku ishuri, bakaba barimo kunyura ahantu hari inzu ikikijwe n'ubusitani buriho imikindo ndetse kandi hakaba ari umucaca bakaba harimo kwirukanka asize akaguru kamwe hejuru akandi hasi.

Amakipe abiri ahanganye akaba bari yo gukina umupira w'intoki ndetse bawurenza fire. Ndetse kandi hakaba hariho abandi bantu bicaye ku ntebe hafi y'igiti cya pinusi, bakaba barimo kugenda bareba uko umukino uri kujya mbere.

Igipangu cyegereye ku muhanda, hakaba hariho akayira karimo amabuye, ya yandi bagenda bacunga, bakagenda bayaringaniza. Hakaba hariho urukinga rurerure, rurimo kujyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye.

Ahari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hakaba hariho abarimo kugenda babyiga, aha ngaha hakaba ari abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyi ndetse n'ibijyanye n'imyuga.

Ikipe yambaye impuzankano ifite imipira y'ubururu, ifite uturongo dutukura ku maboko ndetse bakaba bambaye n'amakabutura y'umutuku, akaba afite uturongo tw'umweru ku musozo. Bakaba barimo kugenda baganira bareba icyo bakora kugira ngo babone intsinzi.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu yubakijije amatafari ahiye, ubona ko imbere yayo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hirya hari ibiti bihari ndetse n'indabo zihateye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, usanga bakunze guhura n'imbogamizi zo kutabona ibikoresho byo ku ishuri nk'ibitabo, ingwa abarimu bakoresha ndetse n'ibindi

Ahantu hari icyapa kikaba kigaragaza ibikorwa bibera hano akaba ari mu cyiciro rusange, ndetse kandi hakaba hariho n'ibindi bintu bikorwa hano mu mashuri icyiciro kisumbuye, bakaba bigisha n'ibijyanye n'imibare ndetse n'ibinyabutabire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye amajipo maremare ndetse n'amapantaro ya kaki, hakaba hariho abanyeshuri benshi muri bo bambaye inkweto z'umukara, aho bari hakaba hegereye imodoka, bakaba bameze nk'abazi gusura.

Abarimo gukina umupira w'intoki bakaba ari abanyeshuri, hakurya hakaba hariho abarimo kwitegereza uko umukino urimo kugenda, bakaba baryohewe nuko umukino umeze.

Ahantu hakaba hari utubati turimo amakayi, ibitabo, hakaba ari mu ishuri, hakaba hariho n'abantu barimo kugenda biga ndetse kandi hejuru hariho amadirishya arimo ibirahuri.

Abanyeshuri bari hafi y'ikigo umwe muri bo bari arimo kugenda mu gahanda, akaba arimo kwitegereza ikigo kiri munsi y'umuhanda kikaba gikikijwe na siyenge ku buryo umuntu uwo ari we wese adashobora kuba yakiyajyamo.

Inyubako nini isize irangi ry'ubururu n'umuhondo, ubona ko iyo nyubako ari nziza isakaje amabati y'ubururu, bigaragara ko iri ahantu ku mudugudu w'ikitegererezo.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari amapave, bigaragara ko ari umuhanda mwiza uhurirwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye kuko hanyuramo ibinyabiziga byinshi, binyura muri uwo muhanda.

Mu muhanda harimo abantu benshi ubona bari kugendamo ndetse n'imodoka, birashoboka ko habere ibikorwa bigiye bitandukanye kuko harimo imodoka nyinshi ziri kugenda muri uyu muhanda.

Abanyeshuri bakoraniye mu cyumba kimwe bakaba barimo kugenda baganirizwa, abenshi bambaye imyenda ifite amashati y'ubururu, ndetse abandi bambaye imyenda ifite amashati y'umweru, bambaye na karuvati z'imikara.

Isomero ry'ibitabo ukunze gusangamo ibitabo bitandukanye by'ikinyarwanda, imibare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho usanga abanyeshuri bahungukira ubumenyi.

Ikigo cya Elena Guerra kikaba kizihiza yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu, bakaba barimo kugenda batumira abantu. Hakaba hariho ibigaragaza ibyo bakora ndetse na nimero.

Mu kigo cy'amashuri bakaba bicaye mu nzu mberabyombi, hakaba imbere yaho hariho umunyeshuri uhagarariye, akaba arimo kugenda abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye nabo bagenda bamutega amatwi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, zigisha imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bakaba barimo kugenda bashyira mu bikorwa ibyo bize, kugira ngo barebe ko, amasomo bagiye bayafata.

Abanyeshuri biganjemo ab'abakobwa bakaba barimo kugenda baseka, bakaba bicaye mu nzu merabyombi, ikaba isakajwe amahema ndetse bari no kugenda baganirizwa ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri, hakaba hariho aho binjirira, hariho urugi rwubatse ndetse kandi hakaba hariho sima, ikikije aho ikigo kiri, hakaba ari ubusitani ndetse n'umuhanda.

Abanyeshuri barimo kugana ku masomo yabo, bakaba bambaye udushati duteye ipasi ndetse kandi bambaye inkweto z'umweru, bakaba barimo kugana ku bigo byabo, bagenda baganira.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo abayobozi barimo kugenda binjira, hakaba harimo n'abafite uruhu rw'abazungu ndetse bakaba barimo kujya aho bagiye kuganirira, umwe muri aba banyeshuri akaba yambaye furari.

Ahantu hariho abana barimo gufata ifunguro ndetse buri wese akaba afite umuneke we, umwe muri bo akaba arimo kugenda abarurira ndetse kandi buri wese afite n'amata ari buze kunywa, akaba ari ku meza ya mirongo itandatu na gatanu.

Umwarimu uri gukosora abanyeshuri ibizamini kugira ngo babashe kubona amanota. Uyu mwarimu agaragaza ko iyo abana bize neza, babasha gutsinda maze bakinyungura ubumenyi.

Mu mashuri ya kaminuza hakaba harimo urubaho rw'icyatsi ndetse bagiye bandikaho inyuguti zigiye zitandukanye kugira ngo abarimo kwiga na bo babashe kuba bagira ibyo bandika, bazabirebeho no mu gihe kizaza.

Urubyiruko rurimo kubaka, benshi muri bo bambaye ingofero zibarinda kuba bahura n'impanuka ndetse bakaba bafite na sima barimo kugenda bubakisha, hakaba hakurya yabo hariho senyenge zituma umuntu adashobora kwinjira hano uko yibone.

Mu kigo cy'amashuri hakaba ari ho abanyeshuri barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, ahantu bari kunyura hakaba hariho ubusitani bumaze igihe gitoya butewe, barimo kugana ku zindi nyubako.

Inyubako nini ikaba igeretse kane ndetse kandi hakaba hariho amarembo ku buryo umuntu atapfa guhita yinjira uko yiboneye, hakaba hariho uruzitiro rumukumira kuba yakinjira aha hantu.

Inama ikaba irimo abantu benshi, hakaba buri wese aho yicaye afite mudasobwa ye, arimo kugenda akurikiraniramo amasomo no kugenda yanyandikamo ibyo yamaze kwiga.

Imodoka yo muri kaminuza y'u Rwanda itwara abanyeshuri mugihe basohotse, cyangwa se mu gihe ikipe ya kaminuza igiye gukina mu bindi bigo ikaba ifite umushoferi uhoraho uyitwara.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa, imbere hakaba hariho ikibaho umuntu urimo gutanga amasomo aba arimo kugenda yandika, hakaba harimo n'intebe abantu bicaraho.

Ahantu hari ibitabo hakaba harimo n'amakayi, hakaba harimo mudasobwa ndetse byose biteretse ku meza, kikaba ari icyumba umuntu akoresha mu gihe arimo gukora ubushakashatsi bwe cyangwa se mu gihe arimo gusoma.

Urugi rukaba ruriho ingengabihe yuko ibikorwa bikora, akaba rusinyeho ndetse runateyeho kashe, hakaba hariho ikiganza kibuza abantu kuba bakwakira cyangwa se bagatanga ruswa.

Amakaye, amakaramu byose bikaba biteretse ku meza, bikaba ari aho abanyeshuri bakoreye imyitozo ndetse kandi hariho n'ibindi bikoresho byabo bitandukanye, ibitabo basomye, amakaramu bifashishije bari kwandika.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigeretse ndetse hakaba hariho isume, hakaba kandi hariho ibiringiti bigiye byoroshe uburiri, hafi yaho hakaba hariho intebe iteretseho ibikoresho.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ko imbere hariho aho umuntu yafatira icyo kurya, cyane cyane abantu barimo gukora imyitozo. Hakaba hariho ibiti bibyibushye ndetse bimeze nka pinusi.

Inyubako irimo imiti myinshi cyane itandukanye y'amoko menshi, aho iyo umuntu arwaye abasha kuhakura imiti imufasha kugira ngo abashe gukira.

Inzu ikaba irimo icyumba kirimo uburiri, akaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda aho haba harimu ibitanda, utubati n'ameza aho abanyeshuri bashobora kuryama bakaba banabika n'ibikoresho byabo.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako ndende, isize irangi ry'umuhondo n'umweru, iyo nyubako biragaragara ko ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, bugiye butandukanye kandi bwinjiza amafaranga menshi.

Inyubako isize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo, bigaragara ko ari ibiro by'abayobozi bakoresha mu mu gihe bari gukora akazi kabo.

Ishyamba rizengurutse inyubako iri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, iyi nyubako biragaragara ko isize irange ry'umuhondo ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kireberamo imyidagaduro hakaba huzuyemo abantu batambaye impuzankano bakaba barimo kugenda baganira, bameze nk'abavuye gusenga.

Icyumba kirimo intebe zigera kuri eshatu ndetse kandi hakaba hariho n'ameza n'aho abantu bagenda buririra, hakaba hariho n'ibyuma umuntu agenda afasheho mu gihe arimo kurira.

Icyumba cyo muri kaminuza aho hariho intebe abanyeshuri bicaraho, mu gihe barimo kwiga ndetse hakaba hariho n'amarido atuma urumuri rutinjira mu byumba by'amashuri.

Icyumba kirimo igikoresho gitubura amashusho ndetsekaba kifashishwa cyane cyane mu gihe habayeho inama, cyangwa se mu gihe abanyeshuri barimo kwiga.

Inzu igeretse kabiri ikaba ifite ubusitani buyikikije, hakurya hakaba hariho urukuta rutoya aho abantu bashobora kunyuraho nta kibazo ndetse hakarya hakaba hariho ishyamba ririmo ibiti birebire.

Inzu ndende cyane igeretse gatatu ndetse hakaba hariho aho bagiye banika imyenda, hakaba hariho n'ubusitani hepfo kandi hakaba hari ishyamba rifite ibiti birebire.

Ibikoresho by'amoko agiye atandukanye, intebe, ameza, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bikunze kuba biri mu mashuri kugira ngo abarimu babikoreshe bigisha.

Icyumba kinini kikaba cyicayemo abantu, hakaba harimo intebe aho abegeranye bashobora kwicarana, kikaba ari kirekire, kikaba kirimo kandi intebe nkeya ndetse kikaba gifite na parafo hejuru.

Ahantu, akaba ari aho abantu bacumbitse, hakaba hariho ikigega hakabaho n'agakoresho bajugunyamo imyanda, hakaba ariho ubusitani bagiye banikamo imyenda, hakurya hakaba ariho hari amacumbi.

Abantu bicaye ahantu bakaba barimo gufata ibyo kurya, akaba ari muri za ntebe za z'indi za pulasitike ndetse kandi akaba ari mu masaha ya nimugoroba, hose hakaba harimo kugenda haka amatara.

Inyubako bigaragara ko yubatswe n'amafaranga menshi, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragara ko ari ahantu hateye imbere mu buryo bugaragara ubwo aribwo bwose.

Inyubako irimo abayobozi baturutse hirya no hino, ubona ko bari gutanga inama ku bo bayobora maze babishyire mu bikorwa babashe kwiteza imbere.

Akenshi usanga abanyeshuri bakunda kuba ahantu heza bakigira heza kugira ngo babashe gufata kandi bunguke ubumenyi, isuku rero ni isoko y'ubuzima.

Ikigo kiri mu nzu ya kaminuza y'u Rwanda, hakaba harimo umugabo wicaye imbere ya Mudasobwa, imbere ye kandi hakaba harimo n'izindi zigera kuri ebyiri n'utumeza abantu bari bicayeho ndetse hakaba hariho n'ibindi bipapuro.

Abakinnyi bakaba bari kumwe n'abatoza babo bakaba barimo kugenda babahereza amabwiriza mbere yo kuba bakwinjira mu mikino, bakaba bari kumwe n'abandi bantu babaherekeje bakaba barimo gufatanya kumva.

Umusore wambaye agakoti ka kandika kaba gakozwe mu gitenge, ni mugufi, arimo kugenda yerekeza mu bice bigiye bitandukanye, arimo kunyura ahantu hari ubusitani bwiza, ndetse hakurya hakaba hariho inzu isize amarange y'umuhondo.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo igeretse inshuro eshatu, izengurukijwe ibyuma bizitiye iyo nyubako kugira ngo hirindwe ibikorwa bitemewe.

Abashakashatsi usanga bakunze kugaragaza ko iyo bari gukora ikintu runaka bari kugikoraho ubushakashatsi bakunze guhura n'imbogamizi zo kutabona amakuru yizewe.

Abantu bagera kuri batatu bicaye kuri mudasobwa bategereje ko bakira abantu, banabafasha muri serivisi zigiye zitandukanye, bakaba ari abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe.

Ahantu hari icyapa kiburira abantu ko ahantu bageze hashobora kuba hari kamera zigenda zihacunga ndetse kandi baba bagomba kwitonda niba bitari ngombwa ko hatagomba kuba hagaragara.

Icyumba cy'amashuri, hakaba harimo intebe nkeya, higanjemo amadirishya ndetse hakaba harimo ameza n'utubati tubikwamo ibikoresho. Utwinshi muri two tukaba dufite ibindi bintu biri hejuru.

Hamwe mu mashuri ya kaminuza, hakaba harimo intebe zifite n'utumeza two kwandikaho, akaba ari za ntebe umuntu ahaguruka nazo zikongera zikifunga, hakaba harimo n'amatara arimo kwaka.

Amazu agiye atandukanye higanjemo ageretse hakaba harimo n'abantu barimo kugenda bahanyura, hakaba hakikijwe n'ubusitani kandi hakaba hazitiye ku buryo umuntu atapfa guhita yinjiramo.

Agahanda gaciye iruhande rw'inzu ukaba ari urwibutso rw'abantu bazize Jenoside yakorewe abatutsi mugihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda cyane cyane na kane, abakoraga muri kaminuza y'u Rwanda

Inzu nini ifite ibyuma hejuru hasi hakaba hariho ibirahuri, aho bagenda bakira abantu baje babagana, aha ngaha akaba ari muri kaminuza y'u Rwanda, ibyuma bihari bikaba bisize irangi ry'umukara.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga, ndetse hameze nk'ahakorerwa ubushakashatsi harimo utubati tugiye dutandukanye, hakabamo ibitsinga byinshi bigiye bicomekeranye, ndetse kandi kuri buri meza hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inzu iri kumwe n'ubusitani bukaba burimo amoko agiye atandukanye y'indabo. Bukaba zigiye ziconze ndetse kandi ku ruhande hakaba hagiye hanyuzemo utuyira, aho umuntu ashobora kunyura agiye mu bice runaka.

Urugi rurimo umukozi ushobora kwakira abantu, hakaba hariho nimero iranga icyumba ndetse kandi ku rugi hariho amazina y'ifoto y'umukozi uhakorera.

Aho bakiriye abantu akaba ari hafi y'ibiro bigiye bitandukanye bifite inzugi zitukura ndetse zikaba zifite n'intebe z'ubururu, akaba ari ho abantu bategerereza mu gihe baje gusaba serivise.

Ahantu hari amabwiriza agiye atandukanye agaragaza uko inzu iteye, bagaragaza niba ari icyumba cya mbere, hakaba hari ibikorerwamo, niba ari icyumba cya kabiri gucyo gucyo hariho ibikorerwamo.

Inzu igeretse kabiri ikaba iriho imyenda bagiye banika, ikaba ifite ibyuma hejuru ndetse kandi hasi hariho aho abantu bashobora kuba bafungura.

Ahantu hakaba hari amacumbi abanyeshuri bararamo, akaba arimo akayira karimo amapave, aho umuntu ashobora kunyura ndetse ameze neza, aho adashobora guhura n'imyanda.

Abantu bari mu nama ndetse kandi biganjemo ikigo cyigisha ibijyanye n'ubumenyi ngiro ndetse bakaba ari mu kigo cya tumba ndetse kandi barimo kugenda baganira.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, kimwe muri ibyo kikaba kiriho igikapu, ku ruhande hakaba ari utubati tugera kuri tune twose tukaba dufunguye hakaba nta kintu kirimo, hakaba ntabanyeshuri bari batangira kubikamo.

Ubusitani bwegereye inzu, aha ngaha hakaba hariho akayira abanyamaguru bagenda bacamo, hakurya kababa hariho inyubako zifite ibara ritukura ndetse buri busitani hakaba harimo igiti.

Akabati gakoze mu biti, ubona ko hari ameza muri icyo cyumba gisize irangi ry'umuhondo n'umweru, ubona ko hari gukorerwamo amasuku menshi agiye atandukanye.

Umuryango wa M A gatatu, hakaba hariho aho wubakira serivisi ndetse kandi hakaba hariho igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro, ndetse kandi hakaba hariho n'ikiranga ibikorerwamo.

Inyubako zirimo aho imodoka zikunda guparika, hakaba hariho amoko agiye atandukanye y'indabo ndetse kandi hakaba hariho ibiro biba birimo abayobozi bagenda batanga serivisi.

Akarimo udukoresho umunyeshuri ashobora kwifashisha mu gihe yananiwe kwifata, ni udukingirizo dutangwa na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo babashe kwirinda mu gihe bananiwe kwifata.

Icyumba kikaba kirimo ibyo kurya biri ku meza, hakaba hariho intebe ebyiri, hakaba hariho n'intebe nyinshi zigiye zipanze, zimwe hejuru, izindi ku karongo ka kabiri, mpaka kugeza ku ka kane.

Igikoresho cyifashishwa mu gutubura amashusho kikaba kiboneka ahantu habaye inama cyangwa se mu mashuri kugira ngo abari inyuma na bo babashe kuba bareba ibiri imbere.

Abantu bateranye bakaba barimo kugenda berekwa bimwe mu bikoresho ndetse n'ibyo batazi, ibyinshi n'iby'ikoranabuhanga barimo kugenda berekwa uko bikorwa, ni nka kwakundi ibigo cyangwa abantu baba bakoze urugendoshuri.

Icyumba cy'umunyeshuri kikaba gisashe, gusa gifite akajagari hejuru, hakaba hariho umusego, hakaba hariho ibikapu, hakaba hariho ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'imyenda.

Agasanduku bashyiramo ibitekerezo, mu gihe harimo ibitagenda neza cyangwa se mu gihe hari ibyo umuntu yifuza ko byakorwa, ashobora kwandika agapapuro akaba yashyiramo kugira ngo ubishinzwe azagasome.

Abanyeshuri bari imbere ku rubyiniro, bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba barimo kubyina imbyino zigiye zitandukanye kandi hakaba hariho abantu babakurikiye.

Hafi y'Ikigo cya Katolike, Kaminuza ikaba iherereye mu karere ka Huye aho ni mu mujyi wa Butare aho hariho aho bakorera n'aho ushobora kuba wabasanga.

Abagore babiri bakaba barimo kugenda mu kigo ndetse ahantu bari kunyura hariho ibiti birebire n'inyuma y'iki kigo hakaba hariho ibindi binini, hameze nk'ahari ishyamba rinini.

Icyumba kirimo abantu benshi bahagurutse, aba ni abaje gusenga imbere hakaba ariho itsinda ririmo kugenda ribasusurutsa, imbere kandi hakaba ariho ibikoresho byifashishwa mu kurangurura amajwi.

Umunyeshuri akaba arimo kugenda yitegereza imyenda ye uko ipanze mu kabati, uburiri bwe akaba yabusashe ndetse kandi akaba yateretseho telefoni ndetse n'ishati ye, akaba yambaye agasengeri gatukura.

Abayobozi benshi, ukunze gusanga iyo bari mu nama, bakunda gutanga ibitekerezo bitandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere. Akaba ari yo mpamvu ubona bagirana inama.

Mu kigo cy'amashuri akaba nta banyeshuri barimo, hakaba hagaragara inzugi ndetse inyinshi muri zo zirafunze. Akaba ari inyubako ya yindi iba igeretse hejuru, ikaba ifite inkingi zigiye zifashe igisenge cyo hejuru ku buryo haba hakomeye.

Umugabo w'umuzungu akaba ahagaze imbere arimo kugenda yigisha, hariho abamuteze amatwi ndetse kandi harimo n'abayobozi barimo kugenda bahugurwa ku mishinga, bafite cya gikoresho gitubura amajwi ndetse n'amashusho kuko ab'inyuma baba babasha kubyumva.